Ibirayi biri hafi y'ikigo cy'amashuri birabagaye bisa neza, biri hafi y'igitari. Ndetse mu murima harimo n'amabuye y'amakoro.

Abahinzi bari gukora akarima k'igikoni, bari gukoresha iyi fumbire mvaruganda, bayizana bakoresheje imifuka abandi ibidomoro.

Umuhinzi w'ikawa yagiye gusarura ikawa mu murima. Ikawa zirasasiye, umuhinzi yambaye n'agapfukamunywa, yagiye gusarura ikawa kugirango zitamwangiriza.

Ibirayi by'imbuto babishize mu kigega bategereje ko bimera, ibirayi bisa n'ibya sangima bategereje ko bimera ndetse biri mu kigega.

Hari abahinzi bate hari abahinzi ndetse hari ingemwe ziri mu bihoho, hari abahinzi bategereje guhabwa ingemwe ndetse n'abashinzwe kuzibaha.